Ikigo cy'amashuri y'incuke, giteye irangi ry'umuhondo, gishushanyijeho ikibabi kiri kugaragaza ibice bikigize, kikaba cyifashishwa n'abana igihe bari kwiga.

Mu ishuri rya garidienne, hicayemo abanyeshuri, bambaye impuzankano, isa nk'ubururu hasi hejuru ikaba isa nk'umweru, bakaba bakurikiye ibyo mwarimu arikubigisha.

Igikapu gishushanyijeho igipusi, gifite amabara y'umuhondo, kirimo n'amabara y'umweru, ubona ko gishimishije, iki gikapu kikaba ari icy'abana, biga muri garidiyene.

Ku kigo cy'amashuri y'incuke, hari ishuri rishushanyijeho igiti gitoshye. Icyo giti kikaba gishushanyije ahantu hari irangi ry'umuhondo. Ibi bikaba bifasha abana mu myigire yabo.

Agakeka gatoya, kariho isahani isa nk'umutuku n'udukoresho twifashishwa n'abana bakiga mu mashuri y'inshike kugirango ngo tubafashe kuruhura mu mutwe.

Udukoresho cyangwa udukinisho twifashishwa n'abana biga mu kiburamwaka, tukaba turimo amabara agiye atandukanye nk'umutuku, umuhondo icyatsi umukara ndetse n'iroza.

Ibikoresho byifashishwa n'abana b'abanyeshuri bari kwiga by'umwihariko mu isomo ry'imibare birimo amarate, amakereyo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri abanza iruhande rwacyo haparitse imodoka isa n'umukara, icyo kigo kikaba cyubatse ahantu heza gishikajwe amabati asa n'ubururu, hakaba harimo n'abantu bagiye batandukanye.

Mu ishuri ryo muri pirimeri hicayemo abanyeshuri bari gufata ifunguro bambaye impuzankano y'ubururu busa nk'ikirere hasi bakaba bambaye ubururu bujya gusa nk'umukara mu ishuri ryabo hakaba hateye irange ry'umuhondo.

Igishushanyo kifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, kiriho inanasi, umuneke, imodoka, amaronji, ibitunguru ndetse n'ibikombe.

Ku kigo cy'amashuri abanza hicayemo abana bambaye impuzankano z'amashati asa nk'umweru, n'amakabutura ndetse n'amajipo asa nk'ubururu, bakaba bicaye bakurikiye ibyo mwarimu ari kubigisha.

Inyubako nziza cyane ikikijwe n'ubusitani busa neza hagati muri bwo hateyemo igiti cy'umukindo, iyo nyubako ikaba yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Musanze.

Ikigo cy'amashuri abanza cyubatse ahantu heza cyane giteye amarangi y'icyatsi, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, kikaba gisa neza ku buryo bugaragara.

Igishushanyo cyifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza mu isomo ryiga ku bijyanye no gukora imyuga itandukanye, harimo inyundo, imikasi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu mirimo igiye itandukanye.

Ikigo cy'amashuri abanza hari ishuri ririmo abanyeshuri bari kwiga mwarimu wabo akaba yambaye ijipo ngufi irimo utudomo tw'umweru n'umukara ndetse n'itaburiya y'umweru akaba ari kubaha imyitozo yo gukora.

Ikigo cy'amashuri abanza cyubatse neza cyane, ayo mashuri akaba ateye irangi ry'ikigina ndetse n'umuhondo werurutse.

Ibishushanyo byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, bikaba biri mu mpande enye bigiye bishushanyijeho ababyeyi bari kumwe n'abana babo bari kubaganiriza.

Ku kigo cy'amashuri abanza hahagaze abana b'abanyeshuri bari ku murongo, abasore bambaye kaki, abakobwa bambaye amakanzu y'ubururu, imbere yabo hahagaze abarimu bambaye amataburiya y'umweru afite amaboko maremare.

Ku kigo cy'amashuri ya segonderi habereye ubukangurambaga, bwaje kwigisha abanyeshuri uburyo bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ku kigo cy'amashuri yisumbuye, hari, abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga, bambaye amajire, n' ingofero mu mutwe, bakaba bari kubwira abarimu babo ibyo bamaze kwiga.

Ku kigo cy'amashuri ya segonderi, hari aho batekera hakaba hateretse ibisafuriya binini bizwi ku izina rya muvero, bitekwamo ibiryo abanyeshuri bari burye saa sita.

Ku kigo cy'amashuri yisumbuye, habereye inama yahuje, abanyeshuri n'abayobozi b'ikigo, bakaba bageze mu mwanya wo kumva ijambo deregiteri w'ikigo yabateguriye kugira ngo bakomeze kurushaho kugira imyigire myiza.

Mu kigo cya segonderi hari abana babakobwa basa neza cyane, bambaye impuzankano y'ishuri ryabo hasi isa nk'ikigina, hejuru isa nk'umweruru.

Mu ishuri ryisumbuye, hari umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, uri kugenda mu nzira bikaba bigaragara ko avuye mu ishuri, ari kwerekeza ku bwiherero.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, hari ishuri ryicawemo n'abanyeshuri benshi cyane, bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, n'amajipo y'ubururu, bose bafite amakayi barakurikiye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, harimo abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga itandukanye, bari kumwe na mwarimu, ari kubigisha amasomo ajyanye n'imyuga igiye itandukanye.

Ku kigo cy'amashuri, hari abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, nk'umukara hasi, hejuru bakaba bambaye amashati y'imyeru y'amaboko magufi, harimo uwambaye amarinete, ufite n'ikayi nini mu ntoki.

Ku kigo cy'amashuri yisumbuye habereye inama yahuje abanyeshuri n'abarimu babo, gusa muri iyo nama hakaba hari umunyeshuri wahagurutse ari gutanga igitekerezo cye.

Ku kigo cy'amashuri ya segonderi hari umunyeshuri uri kwerekana ubuhanga afite mu isomo runaka, iruhande rwe hakaba hahagaze abayobozi b'ikigo, bakaba bamukurikiye bareba ibyo ari gukora.

Ikigo cy'amashuri kigisha ibijyanye n'imyuga, harasa neza cyane, hari jaride zirimo indabyo nziza cyane n'ibiti by'imikindo, bitanga akayaga mu gihe abanyeshuri bagiye mu karuhuko.

Umwuga wo kubumba ibibumbano bigiye bitandukanye, ni mwiza cyane kubera ko ufasha kwinjiza amafaranga kuri nyirawo ndetse bigatuma n'abandi bantu baza kugura ibyo bikoresho, bakabitaka mu nzu, bikaba bisa neza cyane.

Mu ishuri ryigisha ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, harimo abanyeshuri, buri wese akaba afite mudasobwa imbere ye ndetse umwarimu wabo akaba ari kugenda, abigisha amasomo, atandukanye.